Abajyanama b'ubuzima ni abantu bagiye batoranywa buri mudugudu, kugira ngo bafashe abaturage kubona ubuvuzi bw'ibanze ,cyane cyane bashishikariza abaturage gukingiza abana bakivuka mbese abana bakiri batoya, gukingira abana rero babakingira babatera inshinge cyangwa se babaha ibinini by'inzoka n'ibindi bitandukanye.

Muri farumasi ni ahantu haba ububiko bw'imiti itandukanye. Abenshi bakunda kujya kuhivuriza kuko bahabona imiti bashaka . Dusangamo abaganga babyigiye kandi bazi iby'imiti.

Imbangukiragutabara ni imodoka ishinzwe gutabara abarwayi bakomerejwe. Iyo tugiye kwivuza ku bitaro, iyo tuhasanze abaganga baradufasha. Ariko iyo byanze batwohereza ku bitaro bikuru, bifashishije ambiranse. Ni nziza cyane, kuko iradutabara.

Mu ishyamba tubonamo ibiti byinshi bitandukanye, hari ibiba ari birebire, ibigufi, ndetse n'ibyatsi byo hasi, habamo imibirizi, amagereveriya, imiti itandukanye, nayo ibonekamo, mbese ishyamba turibonamo ibyatsi by'ingirakamaro.

Iyo wubatse inzu hari igihe hasigara imbuga. Iyo mbuga rero yari nini ushobora kuyibyaza umusaruro ugahingamo ibihingwa bidashobora gutwara umwanya munini. Twavugamo nk'ibisheke, ipera, imbuga ndetse n'ibindi bitandukanye bitamara umwanya.

Umunaba ni igiti kigira akamaro cyane. Bagikoresha ibikoresho byinshi bitandukanye bya kinyarwanda nk'ibitebo ,udutonga cyangwa se udusobane. Uduti tw'iki giti cy'umunaba ni two bakoresha ibyo bikoresho barimo kubiboha.

Ahantu bubakisha rukarakara bagomba kuhuka vuba, kugira ngo inzu itazangirika, rukarakara kuko ziroroha cyane. Iyo imvura iguyeho, iyo batinze kuyuzuza, hamera ibyatsi byinshi ,nk'intobo, hamera n'intusi, n'ibyatsi birebire bitandukanye.

Abanyarwanda ni abahanga cyane bagira imiti gakondo bavuza kandi ikavura. Imyunyu, ibicuncu ndetse n'utunyamabuye. Iyi miti ivura ubutembwe cyangwa se gapfura. Iravura cyane kandi nta n'izindi ngaruka ugira ku mubiri.